Ibihingwa bigomba kwitabwaho kuva bigiterwa kugeza bigejeje igihe cyo gusarura mu buryo bwo gutanga umusaruro uhagije.

Ibihingwa bigeze igihe cyo gukomeza ibiti cyane nk'ibigori, ni ngombwa kubijyamo ukabitera imiti ukabasha no kubyicira.

Gutera imiti imyaka yica udukoko tuyataka mu gihe cyo kwera wifashishije ibikoresho byabugenewe mu gutera ngo umuti ugeremo neza aho ugomba kugera.

Gutera imiti yica udukoko, tuza ku myaka tukayangiza ikaba itabasha kumera neza.

Ahabugenewe ho kuyungururira amabuye y'agaciro bayatoranya, bayashyira ku ruhande n'umwanda usigaye ukaguma aho ngaho.

Uburobyi bw'amafi si ngombwa buri gihe ko bukorerwa mu biyaga, ahubwo hari n'igihe tubukorera mu migezi isanzwe tukaroba twifashishije uburyo gakondo.

Uburobyi gakondo bukoreshejwe inzitiramibu, buba burimo ibyago byinshi kuko ababukora nta bwirinzi baba bafite buhagije.

Ku butaka bwagenewe guhingaho bashyizeho n'icyuzi cy'amafi mu buryo bugezweho bw'imihingire no gutanga umusaruro ukomoka ku biribwa by'inyamaswa.

Umurobyi w'amafi mato azwi nk'indagara aba agomba kuzikabusha ,kugira ngo zumuke azijyane ku isoko zitapfuye.

Ubworozi bw'amafi wiyororeye mu buryo busanzwe ukajya ubasha kurya ifi.

Ni byiza ko ubuyobozi bwereka abaturage ko bishimiye ibikorwa bakora babasura, babagira inama y'icyakongerwaho kugira ngo ubuhinzi bwabo bukomeze kugenda neza.

Abantu baroba mu buryo butandukanye, harimo kuroha inshundura, gukoresha indobane, wanifashisha ubwato bakoresha bagashya.

Uburyo bwo gutega amazi y'imvura uzifashisha mu buhinzi uvomerera mu gihe cy'izuba.

Icyayi kigejejwe igihe cyo gusarurwa kikajyanwa ku ikusanyirizo, aho kivanwa kijyanwa ku isoko cyanatunganyijwe.

Imirima y'icyayi, yitaweho, itanga imibereho myiza ku baturage, kuko ari igihingwa ngandurabukungu, bakava mu kiciro kimwe bakajya mu kindi.

Icyayi gifasha abagihinga kuko kigaragara mu bihingwa ngandurabukungu, abagihinze bakiteza imbere.

Kawa yitaweho yafumbiriwe ku gihe itanga umusaruro uhagije ukagufasha kwikura mu bukene.

Icyayi kigejeje nk'igihe cyo gusoromwa ngo kijyanwe ku isoko, kijye gutunganywamo amajyane yo kunywa.

Ububiko bw'imiti y'amatungo bugomba kuba busa neza, ngo butangiza imiti igomba kuhashyirwa.

Imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo babanje kuyatera ikinya no mu gihe bari kuyagabanyiriza uburibwe.

Kugira imiti ihagije mu kuvura amatungo kandi ubifitiye ubushobozi biba akarusho kuko igihe cyose uba uri mu kazi.

Gusobanukirwa ubwoko bw'imiti, ni imwe mu mpamvu ituma ukora akazi kawe neza, ukamenya n' ikigero utangaho umuti bitewe n'ikigero indwara iriho mu matungo.

Ahacururizwa imiti y'amatungo n'ibikoresho bifashisha batera umuti amatungo, kugira ngo arusheho kumera.

Imiti yo guha amatungo ugomba kuba ubizi neza ko ifi ubuziranenge n'ubushobozi buhagije mu kuvura no gukiza vuba.

Igishanga cyagenewe igihingwa cy'umuceri, bahurije hamwe ubutaka kugira bongere umusaruro.

Umuyobozi ari gutoza abanyeshuri umuco wo gutera ibiti no gukomeza kubungabunga ubusitani.

Ubuhinzi iyo aribwo buzima bwawe bwa buri munsi ubamo. Bisaba, kujya witegura igihe cy'ihinga, ugashaka isuka nziza, rasoro, bizagufasha mugutambuka iryo hinga.

Gahunda ya leta, yo gutera ibiti harwanywa isuri, ijyana, imyaka, ikanatembana, ubutaka

Ibihingwa bigejeje igihe cyo kwera, ariko byatangiye kugaragaza ibimenyetso by'icyorezo cya byatatse, hasabwa guterwa umuti vuba na bwangu kugira ngo bikire.

Ishyo ry'inka rivuye mu rwuri kurisha riri kwerekeza ku ibumbiro aho zigiye kuhirirwa.

Ishusho y'urwibutso ufatira mu bikorwa byawe nk'ubuhinzi kugira ngo uzajye ugira urwibutso wibukiraho icyo gihe.

Ubuyobozi bwagiye gusura ahakorerwa ubworozi bw' ihene, buhasanga umukumbi wazo basobanurirwa uburyo bukorwamo.

Gahunda yo guhuza ubutaka mukabukoreraho ikintu kimwe mwemeranyijweho kandi kihakwiriye, bifasha ishoramari mu guteza imbere abaturage.

Ubuhinzi bw'immbuto n'ibiti bisoromwaho nk'imyembe, amacunga, indimu, amapapayi.

Igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo mu gutanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga, no guteza imbere urugo rw'umuhinzi.

Ibihingwa by'imbuto bigejeje igihe cyo kuyanga no kwera, ni byiza kubitera umuti ubirinda icyonnyi.

Ni, ni byiza kwita ku gihingwa cy'ibigori igihe kigejeje kubagarwa, ukabyicira, ukabiha umwanya uhagije wo kwisanzura kugira ngo cyere neza.

Guhinga imyaka ntuyikurikirane bituma habamo kutera neza kubera kuryamirana no kudatererwa umuti ku gihe.

Ibigori byeze neza bigejeje igihe cy'isarurwa barimo baratema imisigati yabyo bayijyana kuyisazira urutoki.

Aho bacururiza ibiribwa, ibirungo byo gushyira mu nkono mu gihe utetse, ibinyobwa bidasembuye, babishyize ku murongo neza aho bigaragara.

Imboga rwatsi tuzishyira mu gice kigize indyo yuzuye kuko zifitemo vitamine mu byubaka umubiri.

Ibirayi bifite umumero, bibikwa nk'imbuto bikazaterwa bikera n'ibindi byinshi.

Igice cy'igishanga cyahariwe guhingamo ibisheke, byakwera bikajya gutunganywamo bigakorwamo isukari.

Ibihingwa bititaweho bishobora gutanga umusaruro udahagije mu buryo bwo kwihaza mu biribwa.

Gutunganya ibibaya n'ibishanga mu buryo bwo guhuza ubutaka, byongera umusaruro uboneka muri icyo gice. Kuko baba bibumbiye hamwe, bagahabwa ibisabwa byose.

Iyo ihinga ryegereje haba hagomba kubaho igikorwa cyo kurima, ukumisha ibyatsi kugira ngo nujya guhinga bizabe byoroshye uhita wihuta.

Mu ishyamba ry'inzitane, si byiza kurijyamo kuko hagaragaramo inyamaswa zaguteza ibibazo, igihe waba wa ryinjiyemo.

Mu ishyamba ry'inzitane niho inyamaswa zikunze kwibera kuko niho ziba zumva ko zifite umutekano usesuye.

Ishyamba ry'inzitane ririmo inzira y'amazi amanukamo yerekeza mu bindi bice akomeza.

Mu ishyamba kimeza haba ahantu heza iyo witegeye aho riri urireba rikwereka ishusho nziza.

Nibyiza kubungabunga ibiti, kuko bidukururira umwuka duhumeka. Iyo tutabyitayeho tuba turi gushyira ubuzima bwacu mu kaga.

Ishyamba kimeza riba ari inzitane cyane habamo ibihuru n'inyamanswa, gusa abantu bajya bubaka hafi yaryo bakaba babasha kujya bakira abantu bashaka kurireba.

Kwita k'ubuhinzi bw'indabyo kugirango zikomeze zikura neza, zigira ubuzima bwiza, uzicira uzikorakora, kugira ngo zibyibuhe.

Pepiniyeri ni ahantu hahurizwa ingemwe zikitabwaho zigakura zikabasha kujya guterwa zarashoye imizi.

Iyo wahinze uba ugomba kugenzura ibihingwa ureba ikigero bigezeho n'igihe kibura ngo bibe byakwera bigasarurwa.

Gahunda ya Leta yo gushishikariza abaturage kurya indyo yuzuye. Harimo no kugira akarima k'igikoni kuzajya uteramo imboga.

Iyo udasaruye imyaka igejeje igihe cyo kwera birangira iboze indi ikaribwa n'inyoni kandi wakabaye warabyitayeho yarageze no ku isoko.

Kwita ku gihingwa k'ibishyimbo ukiririnda kuba cyarandaranda hasi, ahubwo ukakizamurira umugondo bigifasha kwera, kandi kikera byinshi.

Guhinga ibihingwa biterera igihe kimwe, bisaba kugenda unyuramo ibyeze ubisarura, kugira bitazabonerera mu murima.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buhinze ku buso buto kandi bugatanga umusaruro mwinshi mu buryo bugezweho.

Kuvomerera wifashishije uburyo gakondo biravuna kandi bigatwara n'umwanya munini.

Kuvomerera bigezweho nibyiza ukoresheje imashini kuko uvomerera ahantu hanini mu gihe gito.

Kuvomerera hifashishijwe amahombo anyura mu murima birafasha kuko bigabanya imvune z'abantu kugenda bavomerera igiti ku kindi.

Igihingwa cy'umuceri ni byiza igihe kiri kwera ko ugitera umuti ukirinda ibyonnyi byaba byawucagagura mu gihe cyaba kitirukanwe hakiri kare.

Kuvomerera umurima urimo imbuto zikiri ingemwe wifashishije ihombo kugira ngo ubashe kugeza amazi mu murima hose.

Kuvomerera ibihingwa ukoresha uburyo gakondo, biravuna kandi biranatinda.

Umuhinzi ari kuvomerera imyaka kugira ngo ibihingwa byere neza ngo abone umusaruro uhagije asagurire n'amasoko.

Uburyo bugezweho bwo kuvomerera ibihingwa hakoreshejwe kuzamura amazi hejuru mu kirere, agakwira hirya no hino mu buryo bworoshye.

Mu gihe cy'izuba, ahari ubutaka bw'igishanga, akenshi bakunze kubuteramo imboga kuko zera vuba kandi zitarushya kuzivomerera.

Aho amazi ahurizwa azajya yifashishwa mu kuvomerera imyaka, uburyo ushobora kuyafunguramo no kuyafungamo, igihe urangije kuhirira.

Kuvomerera mu buryo bugezweho, bafata umupira muremure, bagashyiraho amatiyo agiye atandukanye, maze igihe cyo kuvomerera bakazajya bafungurira amazi maze akagera mu murima byihuse kandi vuba.

Ku kiyaga ni hamwe mu hantu nyaburanga abantu bakunda gutemberera bakajya kumva icyanga cy'ubuzima, bishima, baruhuka mu mutwe, banakora siporo yo koga.

Icyuzi gikikijwe n'ubutaka buhingwaho, haba mu gihe cy'imvura no mu mpeshyi kuko babasha kuvomerera imirima yabo imyaka igakomeza ikamera neza.

Igice cy'ubutaka cyagenewe guhingwaho igihingwa kimwe mu buryo bwo guhuza ubutaka, bagura umusaruro bajyana ku isoko ndetse no mu rugo.

Ubutaka bwagenewe guhingwaho izuba riri kuburengeraho cyangwa riri kuburasiraho aka gace kagaragara neza.

Igice cy'ubutaka cyahariwe ubuhinzi kibisikana n'igice cyahariwe guturwamo gituwe n'abantu benshi.

Si byiza gutura ahantu hahanamye kuko bishobora kugushyira mu kaga ko kuba watwarwa n'isuri igihe imvura yaguye ari nyinshi.

Ni igihombo gikomeye, igihe cyari giteganyijwe kihingwa, imvura ikaza kubura hakava izuba, imyaka yari imaze kuzamuka yose iruma.

Umukumbi w'ihene usabwa kuragirwa ahantu hisanzuye kuko zikunda kona cyane bikaba byaguteranya n'abaturage.

Kororera mu kiraro ni byiza kuko bituma wirinda amakimbirane n'abaturanyi, waboneshereje kandi ukabona naho uhinga, inka zitahabyinagiye.

Ubworozi bw'inkoko bugezweho mu biraro bya kijyambere byagutse bitanga umwuka uhagije kugira ngo amatungo amererwe neza.

Inka za kijyambere zigira amacebe aboga bogamo amata zigakamwa menshi.

Korora amatungo arimo ingurube, bisaba kuyubakira ibiraro byiza, ku buryo uzajya ubasha kubikorera amasuku kandi ukazitaho uko bikwiye ukazibonera muganga ku gihe.

Korora amatungo bisaba kuyashakira aho kuba hasukuye mu buryo bwo kuyarinda indwara ngo atange umusaruro n'inyungu vuba kandi zihuse.

Kuragira umukumbi w'ihene bisaba kuba maso kuko iyo ucunze nabi ziragucika zikajya kona.

Inka y'inyambo iteze iri mu kiraro kiriho ibihindizo bikozwe mu icyuma kugira ngo itazajya isohoka nyo ijye kona.

Urwuri ruragirwamo amashyo y'inka ruba rufite ubwatsi butoshye, ziri kumwe n'abashumba bazo.

Ni byiza gukurikirana amatungo ukamenya uko ahagaze ukaba uzi n'umubare wayo kuko udacunze neza waza gusanga hari izazimiye.

Ubworozi bw'amatungo magufi, arimo nk'inkoko , bisaba kwiyemeza ngo yitabweho mu buryo bwose bukwiye.

Kuragira inka mu rwuri ntuzige kure biba ari byiza kuko uzirinda kona ukaba utakiteranya n'abaturage waboneshereje.

Kwita ku nka, aho iba, ukajya uyisasira, ukanayiha ubwatsi, biyifasha mu mibereho myiza ya buri munsi yayo.

Inkoko zasohowe mu biraro byazo zibamo kugira ngo zibashe gutora, zinanura amaguru, zisanzure, zihumeka umwuka wo hanze kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza n'amazi yo kunywa.

Ni byiza kugira ahabugenewe mu rwuri, ho gutererwa imiti inka kugira ngo itaza kwivanga n'ubwatsi zirisha.

Iyo ugiye gutera imyaka cyane imigufi, ubanza kwicara ugatora imbuto nziza zizabasha kwera ukuramo ibijonjori.

Iyo uvura amatungo bisaba kuba uri ahantu wirinda kuba ryagukandagira cyangwa ngo rigutere umugeri.

Amabagiro mbere yuko ajya kubaga amatungo abanza agategereza ubifitiye ubumenyi, akabanza akareba izo nyama zigiye gutangwa ko nta kibazo zifite.

Abavuzi b'amatungo y'inka bari kuyagaza mu buryo bwo kuyireshya kugira ngo babone uko babasha kuyivura neza.

Kuvura amatungo ni byiza kuba ufite isuku ihagije, kandi ufite n'ubumenyi mu byo ukora buhagije no kwirinda kuba wagwa mu kazi uri gukora ukagakora ahantu hatekanye.

Ni byiza gutunga amatungo magufi nk'imbwa gukurikirana n'ubuzima bwayo unayikingiza.

Kubyaza inka uyibaze ni uburyo bukoreshwa bukorwa n'ababyigiye babifitiye uburenganzira mu kubikora.

Gushyira mu bubiko imiti ahabugenewe kugira ngo itangirika ige ikoreshwa mu gihe ikenewe.

Iyo uragiye wegera inka ukayibuza kujya kona imyaka y'abaturage mu buryo bwo kwirinda amakimbirane wonesheje.

Gukora ubworozi bw'amatungo magufi, ni ngombwa ko bisaba guhora ubwira umuvuzi akaza kukurebera uko ahagaze mu buryo bwo kuyarinda kuba yapfa akagushiraho.

Icyanya nyaburanga kibamo udusumbashyamba n'izindi nyamaswa zitandukanye abakerarugendo batembera bakareba.

Iyo inyamaswa iri kurisha kubera ihumurirwa cyane ibayifitemo ubushobozi bwo kumva ikintu kije kiyisanga kikiri kure, ikaba yabasha kuhava mu maguru mashya.

Muri parike hagaragaramo inyamaswa nini z'inyamabere, zonsa abana bazo iyo zabyaye.

Kubungabunga ibinyabuzima ni inshingano z'umuntu wese kugira ngo inyamaswa zidakomeza kuzimira.

Muri parike ni hamwe mu hantu nyaburanga hakurura abakerarugendo bakazana amadovize baje kureba ibyiza biyitatse harimo nk'itsinda z'inyamaswa nk'ibirura, intare, imbogo.

Mu gukora ubukerarugendo, haba hari abantu bashinzwe kuyobora abakerarugendo, ahantu nyaburanga muri icyo Gihugu.

Muri parike habamo inyamaswa zitandukanye zikurura ba mukerarugendo baje kuzireba.

Ahororerwa inyamaswa hagomba kuba hazitiye n'ibyuma bikomeye ku buryo zidasagarira abaje kuzireba.